Umuhanga ni umuntu watekereje agashyiraho ishuri, ni we rwose muvumbuzi wa mbere nkuko tubibona abanyeshuri na bo bagiye ku ishuri, bagiye gusoma kugirango bavome ubumenyi.

Ahantu hahurira abantu batandukanye, ni ngombwa ko uhashyira urukarabiro kugira ngo abantu babone uko bagira isuku kandi birinde n'indwara zigiye zitandukanye ziterwa no kutagira isuku.

Abana b'inshuke batoya bakaba barimo barakina, urabona ko bamwe bambaye inifomo zabo, abandi ntibarazigura gusa mu bigaragara ni bato cyane.

Kurera abana ni ikintu cyiza cyane, kuko bibungura ubumenyi bwinshi kandi bigatuma ubwonko bwabo burushaho gutekereza cyane.

Ubumenyi ni isoko y'iterambere kuko iyo wamenye urasobanukirwa bityo bikagufasha kuba wahanga ibindi bintu bishya kandi binyuze mu bumenyi.

Mu bigo bitandukanye by'amashuri, iyo winjiyemo usanga bisa neza biteye amarangi kandi birimo intebe nziza ndetse n'ameza ya mwarimu agomba guterekaho ibikoresho bye.

Abana batoya b'inshuke, bakaba barimo barakina n'abarezi babo, babigisha uburyo bwiza bwo gukina ndetse babatoza n'uturirimbo dutandukanye.

Umuhanda w'igitaka ufite borodire ku ruhande harimo utwana tubiri tuvuye ku ishuri, hakurya yawo hari ibiti birebire bihakikije.

Ku ishuri ni ho soko y'ubumenyi kuko umwana wasomye neza na we abasha kunguka byinshi bizamuteza imbere akazateza imbere igihugu n'umuryango we.

Ahantu hari umuhanda w'igitaka, hakaba hari abanyeshuri bari ku ishuri barimo barakina kubera ko ari igihe cy'akaruhuko bahawe na mwarimu.

Ku kigo cy'amashuri hari ibimera bihakikije, hari umuhanda w'igitaka uri kubakwa, hari n'abanyeshuri bari ku ishuri.

Ibitabo bitatu by'isomo rya siyanse birambitse ku meza, bikaba bishushanyijeho udushushanyo dutandukanye dutuma abanyeshuri bakunda iki gitabo.

Gahunda ya Leta kuri ubu ni uko abanyeshuri bagomba gukora cyane kuruta mwarimu bityo akaba ariyo gahunda yo gukorera mu matsinda bikabafasha cyane.

Ni ku kigo cy'amashuri yubatse ahantu hari umuhanda w'igitaka, hakaba hari icyapa ku marembo y'ikigo ,cyanditseho amagambo kiri mu ibara ry'umweru.

Kwigisha abanyeshuri, ukoresheje uburyo bw'ibishushanyo cyangwa bw'utumenyetso, bibafasha gufata vuba mu mutwe, kuko abana bato bakunze, utuntu tugaragara mu mashusho.

Kwigisha abana, ubaha ibishushanyo cyangwa se amafoto, ni ibintu byiza cyane kuko bibongerera ubumenyi kandi bigatuma bashishikarira kugira inyota yo kumenya.

Ni ikigo cy'amashuri hakaba hari ibiti binini byakuze ndetse icyo kigo cyubakishijwe amatafari ahiye, ku madirishya n'inzugi hateyeho irange ry'umweru.

Ni ku kigo cy'amashuri hakaba hari abana bari kuvayo batambuka mu muhanda w'igitaka, ikigo kiri ahantu heza kandi hitaruye umuhanda uko bigaragara.

Uburyo bwiza bwo kwigisha abana bagafasha harimo no kuba wabaha udushushanyo dutandukanye kugira ngo babone dushimishije, bityo bagire amatsiko yo kumenya ubusobanuro bwatwo.

Ni ku kigo cy'amashuri hakaba hari abana batoya abakobwa n'abahungu, hari n'ikigega hanze gifata amazi ava ku ibati, abona ko gisa neza kandi gifite n'imbuga ngari yo gukiniramo.

Ni mu isomero harimo amoko y'ibitabo agiye atandukanye, harimo iby'umutuku, ubururu icyatsi kibisi, byose bikaba byungura ubumenyi abanyeshuri.

Ni mu cyumba cyiza giteye irangi ry'umuhondo, imbere harimo akabati gateretseho hejuru ibikombe byagiye bitwarwa n'aba bantu b'aha ngaha.

Ni inyubako nini cyane, akaba ari ishuri ririmo ikibaho, intebe abanyeshuri bicaraho, ndetse n'akabati kabikwamo ibikoresho bitandukanye, by'abarimu.

Ni ku kigo cy'amashuri, hakaba hari intebe zitandukanye, ndetse imbere mu ishuri harimo abanyeshuri, bari gusoma bakora n'imyitozo.

Abana barimo barakina amabigibigi basimbuka binaga hejuru, harimo abakobwa hakabamo n'abahungu. Hakurya yabo hari inyubako ndetse n'ibiti bihakikije.

Ku kigo cy'amashuri usangayo abanyeshuri batandukanye, haba abahungu ndetse n'abakobwa, bose baba bagiye gushaka ubumenyi buzabafasha ahazaza.

Imbuga igizwe n'ibitaka, hakaba harimo utubuye dukeya, harimo n'ibasi iri mu ibara ry'umukara, gusa nta muntu uhari kandi urabona ko hakubuye hasa neza.

Ibitabo ni ingenzi ku banyeshuri kuko bibungura ubumenyi kandi bikangura n'ibitekerezo byabo mu bijyanye no kwiga bityo bakabasha gutsinda.

Ibishushanyo bitandukanye birimo: umuhoro, igitiyo, ingofani, isuka, byose bikaba byigishwa mu mashuri bikungura abanyeshuri ubumenyi butandukanye.

Ameza ateretseho ibiyiko n'amasahani n'ibikombe, hakaba hari n'intebe iri mu cyumba, urabona ko ari aho bamaze kurira ibiryo.

Ni mu nyubako hijimye kuko amadirishya afunze, hakaba harimo intebe abanyeshuri bicaraho ndetse n'ibirahure bibonerana birimo na giriyaje,

Ibigo bitandukanye ukunze gusanga hari ama rayiburari cyangwase amasomero mu rurimi rw'ikinyarwanda afasha abanyeshuri mu gukora ubushakashatsi bujyanye n'amasomo.

Inyubako ubona ko ishaje ikaba ikorerwamo uburezi buhabwa abana kugira ngo bunguke byinshi bigiye bitandukanye bizabafasha ahazaza.

Ahantu henshi ku bigo by'amashuri uhasanga hari ubwiherero bufite imiryango myinshi itandukanye, bigafasha abanyeshuri mu kwikemurana n'umubiri.

Ahantu ku kigo cy'amashuri, hari ikigega cyubatswe mu mabuye gifata amazi, hakaba hakikijwe n'ibiti birebire ndetse hari n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Ahantu hari imbuga ngari, hakaba hari n'ubusakaro, aho imodoka zinyuze hano ziparika cyangwa se abantu bakugamamo izuba, igihe bari ku rugendo.

Ikigo cy'amashuri kiri ahantu heza cyane gusa ku mabati kirashaje, kikaba gifite ikidomoro cy'umukara gifata amazi aturutse hejuru kugira ngo ngo akoreshwe isuku.

Amazu yubatswe mu buryo bugezweho, usanga aba afite ibirahure ndetse akagira na giriyaje ku madirishya, kuko ibi bihafasha cyane cyane nko mu burezi ni ho ubisanga.

Abana biga mu mashuri abanza, bakaba bafite ibipapuro mu ntoki zabo, barimo barandika ibyo babwiwe na mwarimu, kugira ngo bakore isuzuma bumenyi.

Ni mu isomero harimo amoko y'ibitabo atandukanye yifashishwa n'abashakashatsi cyangwa se abanyeshuri kugira ngo babone amakuru ajyanye n'ibyo biga.

Igikuta gisize ibara risa umuhondo, hometseho ibipapuro byanditseho amatangazo agaragaza amahame agomba kuranga umunyeshuri wiga muri iryo shuri.

Abanyeshuri iyo bageze mu gahe ko kuruhuka, bajya muri break bagakina, bakidagadura kugira ngo baze gusubira mwishuri bameze neza bafite amafu.

Igikuta gisize ibara risa umuhondo, hakaba hometseho udupapuro dushushanyijeho udushushanyo, bikaba rifasha abanyeshuri bo mu mashuri abanza gusobanukirwa ibintu bitandukanye.

Iyo imvura imaze kugwa usanga ubutaka butotama bityo kuhagenda ukaba ushobora kuhanyerera cyangwa se ugasanga ibihingwa ni byo bifite inyungu kuri iyo mvura.

Abana b'abatoya bakiri abanyeshuri, harimo abakobwa ndetse hakabamo n'abahungu, bicaye ku ntebe, bari mu ishuri imbere, barimo barakora imyitozo yahawe n'abarimu.

Ni ku kigo cy'amashuri, hakaba hari icyumba kirimo ibitanda bine, icyo hasi n'icyo hejuru, biryamwaho n'abanyeshuri igihe batari ku masomo.

Ku bigo by'amashuri, ni ingenzi ko buri mpera z'icyumweru bagomba guhurizwa hamwe bakaganirizwa ku bijyanye n'imyigire kugira ngo barusheho kunguka byinshi.

Igikorwa remezo yubakiye abaturage, akaba ari umuhanda wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'abanyeshuri bavuye ku ishuri ndetse sibo gusa kuko n'abagenzi basanzwe banyuramo.

Ni ku kigo cy'amashuri, abanyeshuri batandukanye barahagaze, bakaba bari ahantu mu mbuga ngari hafi y'ikibuga gikorerwamo imyitozo, urabona ko ari igikorwa cy'ingenzi kigiye kuhabera.

Ahantu heza hakikijwe n'ubusitani, hakaba hari umuhanda wubatswe n'amapave ndetse n'inzu isakajwe amabati y'umutuku, hakurya y'izi nyubako hari umusozi muremure.

Ubuhinzi butandukanye bukomeje gutezwa imbere ahantu henshi kandi bugatanga n'ibiribwa ku banyeshuri ndetse n'abandi bantu batandukanye, bityo bakagira ubuzima bwiza.

Mu mashuri usanga harimo abanyeshuri batandukanye yaba abahungu, yaba n'abakobwa kuko bose bafite amahirwe angana yo kwiga, kandi bose bakitabwaho bingana.

Bimwe mu biranga umuco w'Abanyarwanda, ntiwakwibagirwamo nk'imbyino, babyina bateze amaboko, ikunze kubyinywa n'intore cyangwa se abangavu, bityo bagasusurutsa ababakurikiye.

Ni ku kigo cy'amashuri giherereye i Butare, mu karere ka Huye, mu ntara y'amajyepfo, hakaba hari geti igizwe n'ibyuma byanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Sale nini cyane, ikaba irimo abanyeshuri bakurikiye umwarimu uri kubagezaho impanuro, urabona ko bishimye kandi bateze amatwi izo mpanuro za mwarimu.

Mu bigo by'amashuri usangamo intebe zikozwe mu mbaho, zicarwaho n'abanyeshuri, hari aho begamira ndetse n'aho bandikira bikabafasha mu myigire.

Kuganiriza abanyeshuri ni uguhozaho kuko buriya iyo baganirijwe bungukiramo byinshi bibarinda ingeso mbi zitandukanye kuko abana nk'aba bashukika cyane.

Ni ku ishuri abanyeshuri bakaba bari gukora ikizami, umwarimu ubashinzwe arimo arabereka uburyo bagomba kwirinda gukopera, kugira ngo badahabwa amazeru.

Ni abanyeshuri batandukanye bagize urugendo shuri, bakaba bari kumwe n'abarezi, urabona ko bagiye gusura ahantu kandi bose barabyishimiye uko bigaragara.

Polisi y'u Rwanda cyane cyane ishami rya RIB, yagiye ihashya inakumira ibyaha bitandukanye cyane cyane bishingiye ku ihohoterwa.

Mu bigo bitandukanye by'amashuri bakunze kugira iminsi mikuru yabo, ugasanga rero bateguye ababyinnyi, abakinnyi b'umupira, abaririmbyi ndetse n'abandi batandukanye.

Ku bigo by'amashuri bitandukanye uhasanga intebe ziba zifite aho umuntu yandikira ndetse n'aho kwicara hatekanye kugira ngo bifashe abanyeshuri mu myigire yabo.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Cyanika, imbere mu kigo harimo ubusitani bwiza, ndetse n'ibiti byakuze bitoshye, umuhanda ugana mu kigo ukaba ari uw'igitaka.

Mu cyumba kiza cyane gisize irangi ry'umweru ,kikaba kirimo ikibaho k'ikoranabuhanga bandikishaho marikeri ndetse harimo n'intebe abanyeshuri bicaraho biga.

Umuhanda munini cyane ukaba urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu, iruhande rwawo hakikijwe n'ibiti birebire bigitoshye neza.

Ku ishuri ni ho dukura ubumenyi butandukanye, cyane cyane umuntu wize imibare avamo umuntu ukomeye cyane, yaba mu kubara imari ndetse no gucuruza.

Ubundi iyo ugiye mu mashuri biragoye ko waburamo intebe kuko ntiwakwiga uticaye ku ntebe ntibyashoboka, ntiwabona n'uko wandika.

Mu isomero ni ahantu abanyeshuri bajya bakungukiramo byinshi, kandi bakahifashisha bakora ubushakashatsi, bujyanye n'amasomo y'ibyo biga, bityo bagatsinda.

Umurezi uhagaze imbere y'abanyeshuri ayoboye, akaba arimo arabasubiriramo ibyo bize, kugira ngo barusheho kungurana ibitekerezo ndetse no kumenya byinshi.

Umwarimu cyangwa se umurezi uri mu ishuri, arimo arigisha abana imbyino ya Kinyarwanda bateze amaboko mu Kirere hejuru, bicaye abandi bahagaze.

Ni ku kigo cy'amashuri, hakaba harimo intebe zicaweho n'abanyeshuri, bakaba bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru. Urabona ko hari umwe uri kubigisha kandi bateze amatwi.

Ni mu ishuri, hakaba harimo icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ameza umwarimu aterekaho ibikoresho bye hamwe n'intebe z'abanyeshuri bicaraho ziriho n'ibipapuro.

Mu bigo bitandukanye by'amashuri, baba bafite impuzankano zitandukanye, hari abagira iz'ubururu, iz'umukara, umweru, icyatsi, oranje n'ibindi, biterwa n'amahitamo y'abayobozi.

Gukora ikizam ni ibintu bigomba kubaho kuri buri munyeshuri kugira ngo asuzumwe neza ko ibyo yigishijwe yabashije kubifata kandi byamugiriye akamaro.

Ikigo cy'amashuri kiri ahantu heza cyane, hakikijwe n'ubusitani, hari insinga z'umuriro w'amashanyarazi ndetse hari n'umuryango w'igipangu wubakishijwe ibyuma n'amatafari.

Polisi y'u Rwanda ni ikintu cyiza kuko baturindira umutekano w'ibyacu ndetse tukarindanira n'umutekano nk'uko baba babidusaba.

Ni ku kigo cy'amashuri umwarimu wicaye ku ntebe arimo arakosora abanyeshuri kugira ngo amenye neza ko ibyo yabigishije babifashe mu mutwe.

Ni ku kigo cy'amashuri hakaba hari icyapa kigaragaza aho giherereye biragaragara ko ari ikigo cy'amashuri yisumbuye, imbere harimo ibiti birebire ndetse n'ubusitani.

Ahantu hari ibiti birebire hakaba hari n'inyubako y'ikigo cy'ishuri abanyeshuri bigiramo. Hari n'imbuga ngari ndetse hari n'urukarabiro.

Ahantu hatandukanye, ku bigo by'amashuri usanga hari ubusitani bwiza ndetse n'utuyira tuba twubakishije amapave kugira ngo abanyeshuri bahorane isuku.

Ni ku kigo cy'amashuri, abanyeshuri bakaba bicaye bari kumva impanuro za mwarimu wabo, urabona ko bakeye kandi bafite ikinyabupfura batojwe kuva kera.

Ahenshi na henshi mu bigo by'amashuri mu Gihugu cy'u Rwanda, usanga haba hari urubaraza ndetse haba hanakikijwe n'ubusitani bwiza cyane, bikaba ari ibintu biba bisa neza.

Akenshi na kenshi iyo abantu bambaye imyenda isa, uba ubona ari ibintu byiza kandi uba ubona banakeye, aba bari aha na bo urabona ko bakeye nk'uko bihe bigaragara ku jisho.

Icyumba kigari, kirimo ameza, kikabamo n'ikibaho, gisize ibara ry'umweru ndetse kirimo na sima n'urutsinga rujyana amashanyarazi mu ishuri.

Ni ku muhanda ahantu hari ubusitani ndetse ukaba ukikijwe n'amazu maremare yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hari n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi hirya no hino.

Buriya kwiga ni ikintu cyiza, kuko ushobora kwiga nyuma y'igihe runaka ukazabona akazi ko kwigisha ukajya ubona ku mafaranga nawe ukabaho neza kandi ugatunga n'umuryango wawe.

Ku kigo cy'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, afite inzugi n'amadirishya biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, icyo kigo kikaba gikikijwe n'ibiti bitandukanye.

Ahenshi na henshi hari imihanda ntiwaburamo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga biba bijya mu mpande zitandukanye, ikindi ntihaburamo n'abantu na bo baba bajya gushaka serivise zitandukanye.

Iyo ugeze ku bigo cyangwa se inyubako za Leta ntiwabura kuhasanga ibendera rigaragaza igihugu. N'aha ni ko babigenje biragaragara ko ari ku kigo cy'amashuri.

Ni ku kigo cy'amashuri, hari abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuganga, bambaye impuzankano z'umweru kandi bambaye n'uturindantoki kugira ngo babone uko bakora ubushakashatsi bwabo batekanye.

Igikuta gisize amabara menshi atandukanye umuhondo, umweru, ubururu, imbere mu kigo hakaba harimo insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Ku bigo by'amashuri bitandukanye, haba hari intebe zifasha abanyeshuri mu kwicara kugira ngo bakurikire amasomo yabo batekanye, nta kibazo na kimwe bafiteta.

Abanyeshuri bahuriye ahantu hamwe, bari ku gikwa, barimo barubaka igikuta cy'ikigo cy'amashuri cyabo kugira ngo hatazagira abatoroka.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, ikaba iri gupakira abanyeshuri bahetse ibikapu kugira ngo ibageze ku ishuri hakiri kare.

Ni ku kigo cy'amashuri, abanyeshuri bakaba bari ku murongo, bahanze amaso imbere umuyobozi wabo, urimo urabaganiriza ku bijyanye n'ikinyabupfura ndetse n'imyigire myiza.

Insakazamashusho cyangwa se porojegiteri, ni kimwe mu byunganira abarimu igihe bari kwigisha batambutsa ubumenyi ku banyeshuri mu buryo bworoshye.

Sale nini cyane, ikaba irimo urubyiruko rwiganjemo abanyeshuri b'igitsina gore n'igitsina gabo, bari kuganirizwa n'umurezi wabo ku myitwarire myiza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu bwoko bw'ibisuguti by'umukara, bari kureba imashini bakoze, bareba ko ikora neza cyane.

Umuhanda ugana ku kigo cy'amashuri inyuma yacyo hanze hakaba hari icyapa kiranga amerekezo, iki kigo gikikijwe n'ibiti birebire ndetse na pasiparuma.

Gukora siporo ngororamubiri ni ikintu cy'ingenzi ku buzima bw'umuntu kuko bifasha ingingo zitandukanye kugororoka kandi bikarinda n'indwara zitandukanye.

Intebe zikomeye cyane ziba zarakozwe mu biti, ubwoko bw'izi ntebe bukunze gusangwa mu mashuri, aho abana bazicaraho bakanazandikiraho.

Sare nini cyane irimo abanyeshuri bambaye impuzankano zibaranga, bakaba bicaye ku ntebe bahanze amaso imbere, bateze amatwi ibyo babwirwa n'umuyobozi wabo.

Umwarimu wabihuguriwe, akaba yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru. Ari kwigisha abanyeshuri ibijyanye n'ubushakashatsi, mu bijyanye n'ubutabire, kugira ngo bunguke byinshi.

Ahantu heza cyane hitaruye, hakaba hari inzu yubatse mu buryo bwa etaje n'indi yubatse mu buryo busanzwe, kikaba ari ikigo cy'amashuri abanyeshuri bigiraho.

Ni ku kigo cy'amashuri aho abana bajya bagahabwa uburere buboneye, urabona ko uru rubyiruko rurimo abakobwa n'abasore bahuriye hamwe bari guhabwa impanuro.

Abanyeshuri ni ngombwa kubaha amabwiriza buri gihe, kuko baba bakiri batoya ntibabasha gutekereza ahazaza ngo bamenye ikibi n'icyiza ni byiza ko bigishwa kenshi.

Ahantu heza cyane, hasa ibara ry'ikigina, hari amapave, hari kugendwamo n'abanyeshuri bavuye ku ishuri, muri iyo mbuga kandi harimo idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Ibigo bitandukanye by'amashuri, akenshi uhasanga hari ubusitani buba buhakikije ndetse ntiwahabura n'amapoto ajyanayo umuriro w'amashanyarazi, abafasha mu kwiga ikoranabuhanga.

Gufata ifoto ni ibintu byiza kandi bituma habaho urwibutso kuko iyo umuntu arebye iyo foto yibuka n'ibihe yari arimo akishima cyangwa se akibuka icyabaye.

Mu bice bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ugenda uhasanga amasosiyete y'imodoka atwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ibi bikaba bidufasha kuva ahantu hamwe tujya ahandi serivisi zacu zikagenda neza.

Ikiganza cyambaye akarindantoki kari mu ibara ry'ubururu, bakaba barimo barapima ibijyanye n'imiti bareba uko yavurwa ndetse yana kwitabwaho.

Icyumba cyiza cyane kirimo igitanda ndetse kikaba gishashe neza, hasi hari tapi ndetse ku gikuta hateye irange risa umuhondo mwiza.

Ni mu muhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu, hakikijwe n'inzu ndetse n'ibindi bimera ndetse n'ubusitani.

Ahantu mu busitani, harimo ibiti birebire kandi bibyibushye byakuze. Hari akapa kanditseho ijambo ngo, birabujijwe kunyura muri jaride.

Akenshi mu bushakashatsi bagomba gushyiramo abaganga b'inzobere cyangwa se ababihuguriwe kugira ngo bamenye neza ko ibyo bavumbuye ari iby’ukuri.

Amasare menshi agiye atandukanye aba asa neza, kandi aba yitaruye aho uvuga agomba kuba ari kugira ngo buri wese abe amubona neza.

Uburezi ni isoko y'ubuzima, uwarezwe neza na we abasha kumenya byinshi bitandukanye, bizamubera impamba yo mu buzima bw'ahazaza ndetse n'ah'igihugu.

Ni muri resitora harimo urujya n'uruza rw'abantu baje gufata amafunguro, kugira ngo babone uko bajya gukora akazi kabo, bameze neza bafite umutekano wo mu gifu.

Sale nini cyane irimo abantu batandukanye urabona ko biganjemo urubyiruko, bahurijwe hamwe n'igikorwa kugira ngo baganire ku nsanganyamatsiko runaka.

Salle nini cyane, iberamo inama ziba zahuje abanyeshuri n'abarezi cyangwa se n'abashyitsi, urabona ko isa neza kandi ifite intebe ziri mu ibara ry'umutuku.

Ahantu ku rubaraza rw'inyubako hakaba hari ikidomoro kivamo amazi yo kunywa aba afite isuku, abantu baraza bagaka bakanywa bityo icyayaka kigahunga.

Ni icyumba cyo ku ishuri, hakaba harimo abanyeshuri ndetse n'abarimu babiri bahagaze imbere, umwirabura n'umuzungu, barimo barigishwa ibijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho.

Umuhanda mwiza wubatswe n'amapave, ukikijwe n'inyubako ziri mu bwoko bwa etaje, hakurya hari ibiti birebire ndetse hakaba hari n'ibicu biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Mu byumba byinshi bitandukanye cyane cyane ku ishuri haba harimo ibitanda birimo matera, imisego, utubati two gushyiramo ibikoresho ndetse n'intebe n'ameza byo kwigiraho.

Akabati karimo ibikoresho bitandukanye, udukapu, ibikoresho nka korogate imyambaro, kakaba gasize irange risa umweru ndetse n'ibara ry'ivu.

Ni icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu avuga kaminuza ijyanye n'idini rya gaturika, hirya yaho hari ibiti birebire.

Ni mu cyumba cyiza cyane harimo umugabo wambaye amarinete, yambaye ikote ry'umukara ririho idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, ari mu cyumba arimo arareba insinga zirimo, areba uko amashanyarazi akorwa.

Sale nini yahuriyemo abantu batandukanye, hejuru hari kwakamo amatara urabona ko bari mu gitaramo kandi bishimye cyane bahujwe n'igikorwa runaka.

Ni mu kigo cy'amashuri, abanyeshuri bakaba bari gukoresha ibikoresho byabugenewe bikunze kwifashishwa hapimwa ibintu kugira ngo barebe niba nta cyorezo kiri kwaduka.

Ni mu nyubako mu ishuri, hakaba harimo intebe zitandukanye, ndetse n'ameza yo kwicaraho, mu gihe abanyeshuri barimo bariga, bigishwa na mwarimu wabo.

Isomero ni ahantu heza cyane umunyeshuri ajya agakora ubushakashatsi bujyanye n'ibyo yiga ndetse akabona n'andi makuru menshi atandukanye amufasha mu masomo.

Bimwe mu bintu by'ingenzi ku bantu ni ibyapa. Kuko ushobora kugera ahantu utazi icyapa kikaba cyakurangira ukamenya agace uherereyemo bitakugoye.

Ni icyumba kirimo igitanda kigeretse kabiri, kikaba gishashe neza ndetse harimo n'akabati, n'agakoresho bamanikaho imyenda, n'ameza baterekaho ibikoresho.

Amashyamba ni kimwe mu bintu bidufatiye runini aho turi hose, kuko biturinda kuba twahumeka umwuka mubi, aha hakaba hari n'amazu ari kuhagaragara.

Iyo ugeze muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye uhasanga imodoka iparitse, ukahasanga urujya n'uruza rw'abanyeshuri bigira aho ngaho ndetse n'inyubako nziza.

Ni mu kigo cy'amashuri, imbere mu kabati harimo ibikoresho bitandukanye ndetse hejuru y'ako kabati hari amavarisi, hakaba hasizemo ibara risa umweru n'itara riri kwaka.

Umuhanda w'amapave, ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'inyubako za etaje zisize amabara yiganjemo umuhondo ndetse n'ikigina. Hari n'ikirere gisa neza.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu gahanda gatoya harimo abazamuka n'abari kumanuka, hari inyubako ndende igizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'umukara n'ibirahure.

Ahantu heza cyane hari inyubako ya etaje hakaba hari ibiti bikikije aho ngaho, ndetse n'imigozi yanitseho imyambaro itandukanye.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye nk'akabati, ameza, hakaba hagiye gusigwamo irange kugira ngo hongere hase neza muri make habe hashya.

Ni mu cyumba cyo ku ishuri, kirimo utubati dutandukanye dusize amabara y'umweru n'ikigina hakaba harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu burezi.

Ni mu isomero, harimo utubati turimo ibitabo bitandukanye, hakabamo amatara amurikira abaje gusomera muri iri somero, ndetse urabona ko hasa neza.

Ahantu heza cyane, hakaba hari ubusitani ndetse n'umuhanda wubakishijwe amabuye, hari inyubako nziza kandi zubatswe mu buryo bwa kijyambere.

Ahantu henshi na henshi ,cyane cyane ku bigo by'amashuri, wasanga ku miryango hari inomero ,ziranga ibyumba kugira ngo uje ahagana ataza kuyoba.

Ni ku muhanda mugari wa kijyambere, iruhande rwawo hari ibiti by'inganzamarumbo birebire ndetse hakaba na pasiparume, urabona ko hari amahumbezi umuntu yaharuhukira.

Abantu batandukanye b'urubyiruko, harimo igitsina gore n'igitsina gabo, imbere yabo hari mudasobwa, bakaba barimo bariga ibijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho.

Ni muri sale nini harimo abantu batandukanye biganjemo ab'igitsina gabo, buri wese imbere ye hari mudasobwa kandi imbere hari n'umwarimu uri kubigisha ikoranabuhanga.

Ni inyubako yubatswe mu buryo bwa etaje, ikaba ari Kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami rya Huye, iherereye mu Ntara y'Amajyepfo. Ikikijwe n'ibiti birebire

Umuhanda mugari wa kaburimbo, uri kugendwamo n'abagabo babiri, hakurya yabo hari amazu y'ubucuruzi, akorerwamo ubucuruzi butandukanye, yaba ubw'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa.

Ku bigo by'amashuri aba atandukanye, usanga hariyo udusanduku tuba turiho amatangazo y'ibyo ikigo gitangaza, bityo bikamenyesha abanyeshuri ibintu bitandukanye

Ibyumba byo mu mahoteli bitandukanye biba bifite isuku ikindi haba harimo amatara, harimo utubati n'ibindi nk'insakazamashusho bigufasha kutarambirwa cyangwa kutagira irungu.

Amazu menshi agiye atandukanye cyane cyane ay'abakire, usangamo ibikoresho byinshi biba bitandukanye. Ntiwaburamo nk'imeza, ntiwaburamo intebe, ntiwaburamo amarange, muri make n'amatara agezweho.

Ni abantu benshi bahuriye ahantu bakaba barimo barakurikirana ijambo ry'Imana, bamwe ni abagore abandi ni abagabo gusa higanjemo urubyiruko.

Mu biro by'abakozi batandukanye usangamo amadokima menshi, usanga harimo ameza atandukanye, harimo intebe zakirirwaho abakiriya ndetse haba hanasa neza.

Ahagana mu karere ka Huye mu kigo cya kaminuza bita Imamba, hari abakozi b'isuku bambaye impuzankano zibaranga barimo barakora isuku kugira ngo hase neza.

Mu biro ahantu harimo akabati, mudasobwa, harimo amatara, harimo porojegiteri, urabona ko ari ibiro byiza kandi bikeye by'ikigo cy'amashuri.

Abantu batandukanye bakaba bahuriye ahantu, barimo bariga ku bijyanye n'ingingo zigize inyamaswa, urabona ko bafite ibitabo bari gusoma ndetse n'igishushanyo bari kureberaho.

Bimwe mu bintu bigenda bidufasha kuyoboka, harimo n'ibyapa kuko ushobora kugera aho utazi, wasoma ku cyapa ugahita uhamenya bityo ukamenya igice urimo.

Ni ibiro by'umuyobozi w'ikigo cy'amashuri, ku meza hateretseho mudasobwa ndetse n'ibitabo, nta ntebe irimo bisa naho bayijyanye hanze ndetse hateye irangi rijya gusa iroza.

Ni ahantu heza ku kigo cy'amashuri gikikijwe n'ubusitani, hakurya yacyo hari ibiti birebire byo mu bwoko bw'inturusu, hanze y'iki kigo hari amabido ari mu ibara ry'umuhondo.

Muri bare cyangwa muri resitora cyangwa mu mahoteri cyangwa mu mamoteri, usangamo amoko y'indyo atandukanye bakirisha abaje babagana.

Ikoranabuhanga, ni ikintu kiri gutera imbere kuri ubu ngubu kuko abantu benshi babishishikariye kandi bikaba bamwe byaranabateje imbere, ku buryo bugaragara.

Gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima bigomba gukorwa n'inzobere muri ubwo buzima kuko bugomba kwitabwaho bugasigasirwa ntabwo ari ibya buri wese.

Mu bigo bitandukanye by'amashuri, uhasanga ibibuga bitandukanye bikinirwamo n'abahigira mu gihe barimo barakora imyitozo ngororamubiri cyangwa se mu gihe cy'amarushanwa.

Ni mu cyumba cyiza cyane kikaba kirimo utubati turimo inkweto, hejuru y'akabati hakaba hari utubido dutatu tw'umweru, icyo cyumba gisize ibara ry'umweru.

Umuhanda ugizwe n'amabuye ukaba ukikijwe n'inyubako ndende cyane y'ikigo cy'amashuri, uko bigaragara hakaba hari n'ibiti birebire.

Icyumba cyiza cyane, gisize ibara ry'ubururu, kikaba kirimo ameza ateretseho utubido n'igikombe, ndetse muri icyo cyumba harimo n'intebe ebyiri.

Salle nini irimo abanyeshuri ndetse n'abarezi babo bari imbere, bari kuganira ku nsanganyamatsiko ijyanye n'uburere bwiza n'uko babasha gutsinda ku rwego rwo hejuru.

Icyumba cyiza cyane gishashe neza kirimo akabati karimo intebe, hejuru y'akabati hari utubido, icyumba na cyo kirimo igitanda gishashe neza kiriho n'imisego n'amarido.